Abantu benshi bagiye batandukanye abatoya n'abakuru, harimo umudamu umwe, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku bigaragara ko barimo barifotoza, igikuta cy'umweru, amatara, ibara ry'ubururu.

Hari amazu abiri afite imiryango n'amadirishya bisa ubukuru, hari umuntu uhagaze imbere yayo, amatafari ari ku ruhande, ibyuma bikikije aho hantu, imicanga iri imbere, hasa nabi, hari akavuyo.

Umwana wambaye umwambaro w'ishuri harimo:ishati, ijipo, ishapule mu ijosi, arimo arakaraba intoki kugira arwanye umwanda, hari basiri imbere iri kujyamo amazi, igikuta kiri inyuma gifite amatafari ahiye.

Abantu benshi bahuriye ku mugezi harimo abana, abagore, abagabo, n'abasore, bigaragara nkaho baje kuvoma amazi bitwaje indobo n'amajerekani; uwambaye ingofero y'umuhondo, undi ari gufungura amazi kugira ngo arebe ko aza.

Umwana arimo araseka arishimye yambaye ishati n'ipantaro arimo aragerageza gufungura amazi aturuka mu nzu ifite ibara ry'ubururu n'umweru, itereretse ku meza, inyuma y'iwe hari urugo rukoreshejwe imitete.

Abantu benshi bicaye hamwe, umugabo, abamama, abana, urupapuro, ikaramu, agacupa, ishati, ibara ry'ubururu, ikote, ipantaro.

Hari umwana wishimye urimo uraseka, arasutamye, ari ku mugezi hari amazi ari kumumeneka mu biganza ava mu itiyo, ijerekani zubururu, n'indi zumuhondo inyuma y'we hari ibiti n'ibyatsi.

Hari umubyeyi urimo guseka ateruye umwana; umuforomokazi ari kumuvura bicaye ku ntebe yambaye ishati y'umweru. Hari umuryango wi'cyatsi, hari igikuta cy'umweru, hasi hari irangi ry'umukara

Ikigo cy'amashuri kirimo abanyeshuri benshi, bamwe bafite ibikombe bisa icyatsi n'umutuku bari kuvoma amazi yo kunywa, inyuma yabo hari imisozi igiye itandukanye hari ibiti.

Abantu bahagaze ku mugezi ari benshi, umugore uteruye umwana ukiri mutoya , umugabo wambaye isengeri y'umweru, umudamu ufite umupira w'icyatsi n'igitambaro cy'umuhondo mu mutwe, ari kuvoma amazi ajya mu ijerekani, ahinze insina ku ruhande.

Abantu bane bari ku mugezi, umusore wambaye umupira w'umweru n'ingofero ari kuvoma amazi ajya mu kajerekani, umumama usa nkaho agiye wambaye umupira w'umutuku n'igitenge, umwana wambaye ikabutura y'umutuku, hari ibiti.

Ibyombo byinshi bigiye bitandukanya banitse ku biti harimo: igikombe cy'umutuku, umweru, amasahani, amasorori, ibase y'ubururu; ku ruhande hahinze: insina, ibyatsi, imiyenzi...

Abantu benshi bari hamwe bicaye ku ntebe bigaragara ko bari mu nama runaka imbere yabo hari amameza ateretseho amatasi banyweramo icyayi, uducupa turimo amazi ibikoresho byifashishwa mu gufata amashusho, televiziyo...

Hari umumama ufite umwana mu ntoki, yambaye igitenge. Abana bari kuvoma amazi ajye mu ibase. Hari ijerekani, ibase y'umweru, amazu ari inyuma harimo irangi ry'umweru n'ubururu.

Bari mu nama ni benshi bicaye ku ntebe, hari igikoresho cyifashishwa mu kugaragaza amashusho barishimye, umugabo wambaye isaha ku kuboko, ikote ry'umukara, ishati y'umweru, iy'ubururu.

Abantu benshi bahuriye hamwe, harimo abicaye abahagaze, abasheshe akanguhe ndetse n'abakiri batoya, hari igisharagati cy'umweru, idarapo ry'igihugu ndetse n'imodoka iparitse ku ruhande y'umweru, ibiti.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga benshi ndetse n'abaforomokazi, bari kwita ku murwayi uryamye ku gitanda, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye by'ibyuma harimo serumu ndetse n'abambaye amashati y'ubururu.

Abantu benshi bari hamwe, umupapa, umumama, umusore, umukobwa, ibyatsi, inzu iriho amagambo yanditseho, ibara ry'ubururu, amadirishya, ibirahure umuryango, itaburiya y'umweru, ishati y'umutuku.

Imodoka nini isa umweru, umubyeyi uhagaze imbere ukenyeye igitenge, intebe zigerekeranye nyinshi, igisharagati abantu bicaye munsi, ibara ry'icyatsi, ubururu, umuhondo, umukara...

Hari umuntu wambaye agapfukamunwa k'umweru ufite igitambaro mu mutwe uhetse malete wambaye ikoti ry'umukara, bigaragara ko ari umukobwa mu maso hari amatariki n'ukwezi.

Umukecuru urimo uraseka wishimye akenyeye igitenge, afite isafuriya arimo aratekeramo iteretse ku nkwi, impande yiwe hari igikombe gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umufuniko, insina zihinze mu murima, igikuta gifite amatafari ahiye, inkoko ziri hanze,...

Umukobwa w'inzobe ufite imisatsi ifungiye inyuma wambaye ishati y'umukara, amazina yiwe, amatariki, ukwezi, umwaka, ibara ry'icyatsi, iry'umweru, iry'umuhondo n'iry'ubururu.

Icyumba kirimo abantu benshi bagiye batandukanye, umubyeyi uhetse umwana mu gitenge, umugabo uhagaze imbere urimo urabasobanurira wambaye agapfukamunwa, igikuta gifite irangi ry'umuhondo, ameza ariho uducupa tw'amazi ndetse n'intebe bicayeho.

Hari abamama babiri umwe agaragara nkaho ari kuganirizwa afite ibibazo undi afite ikaramu mu ntoki yambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'ubururu, inyuma hari ibiti bicaye ku ntebe y'igiti.

Abana batatu bari hamwe bari kwikorera isuku yo mu kanwa bakoresheje uburoso kugira ngo barwanye indwara zituruka mu kudakorera isuku mu kanwa, bambaye imipira y'ubururu bakoresheje uburoso busa umuhondo, icyatsi hari ibiti biri inyuma.

Icyumba cy'ishuri kirimo abantu batanu n'umwana wambaye ishati y'icyatsi, umwarimu ari kwigisha, yambaye agapfukamunwa, itaburiya y'umweru, ikibaho cy'umukara cyanditseho amagambo.

Icyumba kinini bakakiriramo abarwayi gisize amarangi y'umweru, harimo intebe ebyiri, imwe ifite ibara ry'ubururu, utubati twinshi, televiziy,o ibirahure, amatara, ahantu bakarabira ivaze ririmo igiti gitoya, ibikoresho byifashishwa kwa muganga.

Abaforomokazi babiri bari kwita ku murwayi bakoresheje ibyuma byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi imakasi, bambaye udupfukamunwa, itaburiya isa umweru, igitanda cy'umukara, umupira, arasamye.

Abantu benshi bicaye hamwe ku ntebe bari kwitabwaho, bari kumukora mu kanwa, umumama uri hirya afite ikaramu mu ntoki, ameza manini ariho udukarito, abasore babiri bambaye udupfukamunwa, ibara ry'umweru ku gikuta.

Umusaza urimo uraseka wishimye, yambaye umupira n'ishati, afite umusatsi usa umweru, afite isorori ari kwaruriramo ibiryo abishyira ku isahani, ku ruhande hari ikirahure kirimo amazi, ameza asa ubururu.

Umusaza n'umukecuru baricaranye barishimye barimo baraseka, bafite urupapuro mu biganza, yambaye impeta ebyiri ku ntoki, imbere yabo hari ameza hariho utuntu dusa umweru, igikuta gisa icyatsi, umupira w'ubururu.

Umukecuru wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu, afite indangururamajwi mu ntoki arimo aravuga, inyuma yiwe hari ibiti birebire, amazu, ndetse n'imodoka ebyiri ziri ku ruhande, ibyatsi, imisozi...

Abantu babiri bicaye ahantu hamwe bahuje urugwiro harimo umusaza wambaye umupira urimo imirongo y'ubururu n'umweru, imbere yabo hari ameza hari umukino barimo barakina na mugenzi we ku ruhande hari igiti kirekire.

Abantu bane bari muri siporo bamwe bafite udupfukamunwa mu ntoki, abambaye imipira y'ubururu, uwambaye uw'umukara, ibyatsi, ibiti bibiri, igikuta, ibara ry'umuhondo riri hirya.

Umuforomokazi yambaye imyenda yubururu, afite imisatsi isa umukara ifungiye inyuma, ari gukoresha igikoresho cyifashishwa mu buvuzi, ari kuvura umusaza wambaye marinete, bicaye ku ntebe, inyuma hari igikuta gisa umweruru.

Abantu benshi bateraniye hamwe bigaragara ko bari mu gikorwa runaka abasaza bari imbere yabo babiri bambaye ingofero umwe yambaye amarinete n'umwitero w'umweru n'ishati y'ubururu, undi yambaye umwitero w'umukara abari inyuma bari gukoma amashyi.

Umuforomokazi ufite imisatsi y'umukara uri kuvura umurwayi yambaye itaburiya y'umweru, afite igikoresho bifashisha mu kuvura mu ijosi ikindi agishyize ku kuboko cy'umurwayi ikaramu, ameza, intebe, amarido y'umweru.

Umuforomokazi ari kwita ku murwayi, ari kumuha ikinini mu ntoki, afite ikirahuri kirimo amazi, hari imeza, hariho ikarito isa umuhondo, inyuma hari ivase irimo ibiti bisa icyatsi.

Umuganga n'umuforomokazi bari kwita ku barwayi babafata amaraso, umwe yambaye itaburiya y'umweru, umukecuru ufite igitambaro mu mutwe kirimo ibara ry'ubururu, imbere yabo hari ameza manini arimo ubukarito ndetse n'imiti yifashishwa mu kuvura.

Hari abantu bicaye imbere y'abandi bigaragara nkaho ari bo bari kubasobanurira cyangwa babayoboye. Bicaye ku ntebe z'umweru bari kuganira. Hari abandi bari kubakurikira harimo abagore n'abagabo.

Umuma cyangwa umukobwa ufite imisatsi y'umukara ifungiye inyuma hari amagambo yandikishijwe n'ibara ry'umutuku kuruhande rwiwe ugaragara nk'aho afite amaso y'umweru cyane wambaye ishananete mu ijosi hari ayanditse hejuru y'iwe, imbuga nkoranyambaga ziri munsi.

Abaganga babiri bambaye udupfukamunwa n'amalinete bari kuvura umurwayi wasamye bari kumukora mu kanwa, amashashi bashyiramo imyanda, ameza baterekaho ibikoresho by'ubuvuzi, abantu bari ku ruhande bategereje kuvurwa.

Umumama witeze igitambaro mu mutwe ari kurebana n'umwana mu maso, abandi bahetse marete, bambaye karuvati n'ishati y'umweru, ikarita ndangamerekezo ifite ibara ry'umutuku n'umuhondo utagaragara cyane, amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu.

Abantu bahagaze hamwe bigaragara ko barimo barifotoza, barimo baraseka, inyuma yabo hari ibintu bimanitseho byanditseho amagambo ake atandukanye menshi hari amatara arimo araka, bambaye umupira w'icyatsi ndetse n'ipantaro y'ubururu.

Abantu benshi barimo baragenda bari hamwe bari mu bukangurambaga burwanya virusi itera sida ndetse no kwipimisha. Harimo abana n'abakuze, umwe yambaye itabuririya y'umweru. Inyuma hari amashyamba, ibiti biteye ku ruhande.

Kazi ndetse n'abaganga benshi bagiye batandukanye bari kwita ku barwayi bambaye agapfukamunwa k'ubururu mu maso umwe yambaye amarinete bari kwita ku murwayi uryamye ku gitanda, inyuma yabo hari imashini bifashisha mu kuvura ibindi bikoresho byinshi bigiye bitandukanye byitwazwa.

Abantu bagiye batandukanye bishimye: abapapa, abamama, abakobwa, intebe z'umutuku, ameza abiri, agacupa karimo amazi, igikuta, ibara ry'ubururu, umuhondo.

Ikigo kinini cy'ubuvuzi gifite amarangi y'umweru, umumama uhagaze uhetse umwana, amadirishya, ibirahure, umureko utwara amazi, inkingi ifashe inzu, amagambo yanditse imbere ku muryango.

Ivuriro rinini rifite imiryango n'ibirahure, hari umugabo wicaye ku ntebe, inyuma yiwe hari utubati, hari ibyuma bitangira abantu, hari intebe z'umutuku, amatara, amagambo yanditse ku gikuta hejuru.

Inzu nini y'ubuvuzi, ibara ry'iroza, intebe eshatu zitukuye, umuryango ufunguye, ibirahuri n'amadirishya, ibikoresho byifashishwa mu gutanga umuyaga, ubusitani, ibiti birenze kimwe.

Ahantu bavurira, ibikoresho byifashishwa mu kubika amaraso, igitanda, umurwayi, umuganga, umutuku, ibara ry'umukara, umweru, agapfukamunwa, ijipo, umupira.

Hari umuryango ukinguye hagaragara nk'aho bacuruzamo ibintu bitandukanye birimo imiti y'ubuvuzi, imodoka ziri hanze ebyiri handitseho amagambo atandukanye hari n'imyenda iri ku ruhande.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye by'ubuvuzi, televiziyo, ikirahure, ikibaho gitoya, abantu benshi bigaragara nk'aho bari kuganira, itaburiya y'umweru, uwambaye ubururu, umuryango.

Icyumba kinini bakiriramo abarwayi, umuryango urafunguye, gisize amarangi y'umweru, mo imbere harimo igitanda gishashe ishuka y'ubururu, ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa kwa muganga, akagare.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa mu kwita ku barwayi, gisize amarangi y'umweru, harimo harakamo amatara, ibirahuri n'amadirishya, telefone iri ku ruhande, ameza, intebe...

Abaforomokazi babiri umwe yicaye ku ntebe arimo arakira umurwayi yambaye itabureriya y'umweru afite igikoresho mu ijosi yifashisha mu kuvura, mudasobwa ebyiri, ameza manini, impapuro ikaramu ...

Inzu nini y'ubuvuzi igeretse kabiri, ifite amabati y'ubururu amadirishya n'ibirahure, amatiyo amanura amazi, amagambo yanditse ku gikuta, ubusitani, amabuye ari imbere, idarapo ry'Igihugu...

Icyumba kinini bakiramo abarwayi kugira ngo babiteho, amagare abiri bakoreraho siporo, intebe, igitako kimanitse ku gikuta gisa umweru, akabati, televiziyo, isaha.

inyubako igaragara nkaho ari ndende, abaforomokazi bane bambaye udupfukamunwa, ibibaranga mu majosi, hari n'abatabyambaye, ibara ry'ubururu, amagambo yanditse ku nyubako, umweru, ibirahure, amadirishya, imiryango,...

Icyumba kinini bakiriramo abarwayi gisize amarangi y'umweru, harimo ibitanda bitatu bigiye bitandukanye, bishashe amashuka y'icyatsi, hagati harimo amarido atandukanya ibyuma byifashishwa mu buvuzi amatara...

Hari amarangi asize ku bikuta, hari ibara ry'ubururu, iry'icyatsi, umuhondo, mudasobwa, imeza nini, intebe zigiye zitandukanye, ibirahure, amatara

Umuganga ari kuvura umurwayi arimo araseka, ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, intebe zisa umukara, ameza y'umweru igipankarita cyanditseho amagambo y'ubururu, ibyuma bikoreshwa mu kuzimya umuriro, igikuta cy'umweru.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi harimo: intebe eshatu, imitako ku gikuta, amatara arimo araka arasa neza, televiziyo iramanitse hejuru.

Ikigo kinini cyita ku barwayi, ikigega kimanitse hejuru, amabati y'ubururu, imiryango y'imyeru, kaburimbo, insinga z'amashanyarazi, abantu bari kuva mu kigo, abari mu muhanda.

Icyumba kinini cyiza bakiriramo abarwayi kirimo igitanda gishasheho ishuka y'umweru icyuma bakorera siporo, mudasobwa ebyiri, ibikoresho bibiri byifashishwa mu kuvura abarwayi, ibirahure, ibara ry'ubururu.

Icyumba kinini cyiza, cyakirirwamo abarwayi, kirasa neza, amatara arimo araka, harimo televiziyo, ibitanda abarwayi baryamaho, ibikoresho bifashisha mu kuvura abarwayi.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, icyuma bifashisha mu gukora siporo birukankaho, ibara ry'ubururu, umutuku, umuhondo, amatara ari hejuru, amadirishya, imiryango telefone imanitse ku gikuta.

Inzu nini irimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, mu imbere harimo ameza ateretseho mudasobwa, hari umuntu wicaye imbere, intebe ebyiri hari utegereje, ku gikuta hari ibara ry'umutuku, ibirahure, umuryango ufunguye.

Inzu nini isize amarange y'umweru ku gikuta hari amagambo yanditseho, hari intebe yo kwicaraho ku ruhande hari ibivaze birimo indabo, imiryango ibiri, ibirahure, itara riri hejuru, amakaro ari hasi asa neza cyane.

Icyumba cy'ubuvuzi harimo ibitanda bibiri umurwayi aryamyeho wiyoroshe ishuka y'umweru, ibikoresho byifashishwa mu kuvura birenze kimwe, akajerekani gatoya, imiti, amarido.

Icyumba kinini bakoreramo siporo kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, harimo amagare, ibyo bakoresha birukanka, isaha imanitse ku gikuta, icupa ry'amazi, ibyuma baterura kugira ngo bongere umubiri...

Inzu ndende igeretse kabiri ifite ibirahuri n'amadirishya, bigaragara ko hasi hari abantu bahahagaze, imodoka ziparitse, imiryango, icyuma cyifashishwa mu kuzimya umuriro, itiyo imanura amazi, amabati.

Ahantu hahuriye abantu benshi, hari abambaye udupfukamunwa n'abambaye imipira y'icyatsi, bigaragara nk'aho ari mu ivuriro, igishararagati gisa umweruru, hari inzu ifite amabati asa icyatsi n'amagambo yanditse ku gikuta.

Umuforomokazi wambaye ishati y'ubururu ndetse afite imisatsi y'umukara, imbere yiwe hari umurwayi barimo baraseka bose barishimye, afite igikoresho bakoresha bapima indwara, inyuma yiwe hari ikirahure bicaye mu ntebe bose.

Inzu nini y'ubuvuzi ifite amadirishya n'ibirahure, imiryango ibiri, icyuma bifashisha mu kuzimya umuriro kiri ku ruhande, abantu bategerereje hanze bicaye ku ntebe, ubusitani, indabyo ndetse n'amagambo yanditse ku gikuta hejuru.

Inzu nini nziza, irimo abantu benshi bagiye batandukanye, abamama babiri bikoreye ibintu ku mutwe, idarapo ry'igihugu, amashyamba, imisozi, ibyatsi, ibara ry'umweru, umutuku.

Amazu atatu meza, ubusitani burimo ibiti, hasa neza hafite isuku inzu ifite ibirahure, kuruhande hari ibintu bimeze nk'ibiti by'ubusitani.

Igikapu kinini gifite ibara ry'umutuku kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye bikoreshwa kwa muganga: imakasi, imiti, ipamba, igipfuko, agacupa, icyo bahumekeramo gitanga umwuka.

Ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa mu kwita ku barwayi, bifite amabara y'ubururu, umweru, umukobwa wicaye ku ntebe imbere yiwe hari ameza hariho mudasobwa, afite terefone ku gutwi, afite urupapuro mu ntoki.

Umukobwa usutamye imbere ya tuwalete bigaragara ko arimo araruka, umusore uryamye hasi wambaye umupira w'umuhondo, n'ipantaro y'icyatsi n'inkweto z'umukara, umuhagaze hejuru wambaye umupira w'umutuku, ugutwi, itara, igitanda hariho abantu baryamye...

Umukobwa urimo akora siporo aryamye ku gatapi bakoresha, yambaye ipantaro y'umukara, impande ye hari utuvase dutatu tugiye turimo ibiti bigiye bitandukanye, igikuta gifite irangi ry'umweru asa neza.

Ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa kwa muganga, hari igikapu gifite ibara ry'umutuku babikamo imiti y'ibanze, ibikwasi, imakasi idufasha gukata ibipfuko by'abarwayi ndetse n'imiti.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, ikaramu mu kiganza, uri kwandika ku rupapuro, Igikoresho cyifashishwa mu kuvura. Metero, isaha, pome, agacupa k'amazi agasume, agatambaro k'ubururu, utwuma twifashishwa mu guterura.

Umusore uri muri siporo yambaye isengeri y'umweru n'ikabutura y'umukara, ku ruhande hari imbuto nyinshi zigiye zitandukanye; imineke ibiri, pome n'izindi zifashishwa mu kongera imbaraga mu mubiri n'izindi mbuto za oranje.

Umukobwa ufite imisatsi y'umukara ifungiye inyuma, wambaye isengeri y'ubururu n'ipantaro imwegereye cyane, we ari kwigorora ari muri siporo, kuko ni ubuzima birinda indwara zigiye zitandukanye, ibara ry'umweru ku gikuta, hasi hasa neza.

Ibyatsi bihinzwe byifashishwa mu buvuzi, amabuye, ubutaka, ibara ry'umweru, ubururu, amashyamba, ibiti, umugabo wambaye ishati y'umweru, ikoti ry'umutuku.

Ibiti bibiri bakuraho imiti bifashisha mu buvuzi, bagiye kuyisekura, iri ku mu sahane, uducupa tubiri kamwe karapfundikiye akandi ntigapfundikiye, umufuniko wako uri ku ruhande, ameza.

Umuganga yambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa afite agakarito mu ntoki imbere yiwe hari ameza manini hariho ubukarito bugiye butandukanye, uducupa turimo imiti ku ruhande hari umuryango ucamo usohoka ibikarito.